Radiyanti ni kampani y'ubwishingizi. Hariho umupapa, n'umumama n'abana babo. Haba handitseho "Turikumwe" gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango kanda *531# Hamagara 1810. Telefone: 0788 381093. Radiyanti yacu ubwishingizi buciriritse.

Ikiganza gifite telefone mu ntoki ku ruhande handitseho radiyati yacu mikoro ishuwarensi kampani, isezerano ni isezerano yego nibyo ntakindi bisaba kugirango nawe ugere ku mushinga w'inzozi zawe ukoreshe telefone yawe igendanwa kanda kannyeri gatanu gatatu rimwe urwego wizigamira maze wungukirwe utere imbere hacyariho na nimero wamagara cumi'umunani icumi telefoni makumyabiri mirongo itanu karindwi umunani umunnani gatatu.

Mituweli de sante ni ubwisungane mu kwivuza RSSB iri mu nguni yo hejuru, mutuweli de sante buri munyarwanda wese aba agomba kuba ayifite kugira ngo aramutse arwaye abashe kwivuza bimworoheye.

Icyapa cyo kuri radiyeti ishuwarensi kampani baragaragaza amasaha bakora, ku wa mbere kugeza ku wa gatanu bakora guhe saa moya n'igice kugeza saa mbiri z'umugoroba, ku wa gatandatu bagakora saa mbiri n'igice kugeza saa kumi z'umugoroba ku muganda bagakora guhera saa saba kugeza saa kumi n'ebyiri z'umugoroba, iyo hatanzwe ikiruhuko bahera saa tatu kugeza saa kumi z'umugoroba isezerano ni isezerano.

Umusaza n'umukecuru bafite amagare hejuru yabo handitse tekana mu gihe cyawe cy'izabukuru hariho na nimero de telefone wahamagara ukeneye kubaza amakuru yabyo.

Ba mama babiri bari muri butike. Butike itereretsemo udufuka dutandukanye hirya hamanitsemo amabasi n'ibirungo biri ku kagozi, hari n' ikesi biramanitse ndetse n'ibikombe bya parasitike n' ibintu biri ku munzani hateretseho agafuka k'ifarini n'icyuma cy'umunzani.

Imodoka iri mu muhanda iri kugaragaraho gatoya, hari n'umuntu uri kugenda mu gahanda k'abanyamaguru ufite ikintu mu ntoki; hari na bariyeri yazamutse, kuri iyo nyubako hari ibimaneke imbere byambaye imyenda, aho hantu bacuruza imyenda muri iyo nzu, hejuru hari n'ahantu handitse fashoni, hasize n'ibara ry'ubururu. Hari n'umukindo uri aho ngaho izo maneke ziri.

Ibitenge byinshi bimwe biramanitse ibindi birazinze, bifite amabara agiye atandukanye, ariko bashizeho icyapa cyanditseho wagisi worante sigisi yadi.

Umuntu ufite imyenda mu ntoki ze ari kwereka undi wicaye n'indi myenda iri kuri porutemante imbere ye, inyuma y'ufite imyenda mu ntoki hagaze undi mugabo n'umutako w'igiti hirya yabo n'itara riri kwaka.

Abagore babiri bari kureba mu mashini, iteretse ku meza, hari n'ibipapuro biri ku ruhande na terefone, inyuma hamanitse ibyuma, ku ruhande hamanitse imyenda iri kuri porutemanto, hari n'igisenge hejuru.

Ahantu hari imyenda imanitse kuri porutemanto, hakaba hari n'aka etajeri gateretsemo utundi tuntu, hakaba hari n'umwuzani uteretse ku meza bateretseho agakapu ari kureba ibyo ari gupima, hari n'indi myenda iri hirya ku mpande. Afite na telefone mu ntoki uwo muntu.

Ahantu bacururiza ibintu bitandukanye hari utubati tw'ibirahure, utubati. Uruhande rumwe harimo amasaha. Mu rundi ruhande harimo telefoni na mashine. Muri etajeri z'inyuma hamanitsemo inkweto. Hejuru hari rinete n'utundi tuntu turi mu kabogisi. Ku rundi ruhande hari isakoshi, n'izindi nkweto ziri hasi y'isakoshi. Ku gikuta hariho vandarateri ifite ibara rya move.

Ahantu hari ibicuruzwa bitandukanye, imipira iri kuri porutemanto, hari n'utundi tuntu turambitse ku kintu cy'umukara tutagaragara neza, munsi hari imisego, hirya hari indi myenda iri kuri porutemanto n'ibikapu, hari n'ikindi gikapu kiri kuri etajeri, n'ihembe, hari n'imitako imanitse umuntu yashyira mu nzu, hirya hari n'umuryango ufunze, hari n'undi mutako uri ku gikuta.

Abantu babiri bahagaze ahantu kure ku bucuruziyenda yamanitse nyuma n'imashini iteretse ku meza, umusore afite imashini yaguye mu ntoki uyu muzungu ari kumuhereza ikarita iruhande hateretse n'agapapu kaje karimo ibyo yahashye.

Paniye irimo utuntu dutandukanye, kamwe kanditseho muku kigali. Igitabo cyanditseho ibintu bitagaragara nk'inyoni, hirya hari akantu kameze nk'agataburo kariho umuntu. Agapaniye hirya yako hari ibintu biri muri etageri bitagaragara.

inzu z'ubucuruzi imwe yanditseho botike indi yanditseho mama amina amanitse imyenda y'aba mama imbere yaho hari umuntu ufite imisego mu ntoki ashobora kuba ari kuyicuruza kuruhande hari ahantu h'umu ajenti wa emutiyeni amapave imbere yaho n'umumama uhagaze imbere y'iduka wambaye ibitenge.

Ahantu bacururiza imyambaro, hari amashati y'abagabo amanitse, hari n'inkweto z'abagabo, hirya hari n'izindi nkweto zimanitse muri etajeri n'indi myenda itagaragara neza n'umuntu uhagaze ari kubireba.

Imodoka igurishwa yanditseho Kigali kari maketi, hariho numero wahamagara ushaka kuyigura, hepfo ibiti, hari n'ikirere, hari na moto iri inyuma y'imodoka.

Imodoka iparitse imbere y'ahantu handitse Akagera motoru, hirya hari umuntu uri kuza, iruhande rw'uwo muntu kuri borodire hatwikirijweho utwuma, hari n'abantu bahagaze imbere y'iyo modoka, bafite urufunguzo rwanditseho Akagera motoru eyibiji.

Imodoka y'umukara iparitse, hirya y'aho iparitse hari ipoto ririho icyapa kitagaragara neza, hirya hari inyubako zigeretse, bari kubaka zitararangira, hari n'igiti kiri hepfo y'ahari utwuma dukorotiriye.

Abantu batatu bahagaze imbere y'imodoka ebyiri aho bahagaze ni amapave bari guha umuntu impano y'urufunguzo rugaragaza ko yatsindiye imodoka.

Imodoka ziparitse ahantu hari amapave inyuma y'imodoka hari ihema ryanditseho ABG Akagera Business Group, inyuma y'ihema hari ipironi ry'umuriro hariho n'insinga n'igiti, hepfo hari ibiti bikikije umuhanda hari n'umumotari uri mu muhanda, hari n'icyapa kitagaragara neza, izo modoka purake zazo ntabwo zigaragara.

Abantu batatu bahagaze imbere y'imodoka, bafite urufunguzo rwanditseho ABG Akagera Motors, hirya hari n'undi muntu wambaye ingofero n'imodoka itagaragara neza, hari n'ishyamba n'umusozi, inyuma hakaba hari icyapa cyanditse Akagera Motors gifashe ku nyubako.

Imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri iparitse, mbere yayo hari abantu bahagaze babiri b'abagabo, bafite urufunguzo mu ntoki rwanditseho ABG Akagera Motor, ku ruhande hari inyubako igeretse, hirya hari ipoto y'ipironi iriho insinga, hari n'igiti kitagaragara neza, hasi hasashe amapave.

Imodoka yo mu bwoko bwa jipe ikaba yarasohotse bibiri na cumi n'umunani hari igurishwa miliyoni mirongo itandatu n'eshanu. ikaba iparitse inyumayo aho paritsi hari utwuma twahakikije, n'ibiti, n'inyubako heju ziriho utwuma.

Imodoka ifunguye imiryango yombi hari n'abantu. Kuri iyo miryango yombi hari n'abandi babiri bari ku gice cya ruguru. Inyuma haragaragara ibirahure by'inyubako. Hirya hari utwuma dukorotiriye inyubako iri hepfo, hari n'ibiti bigaragara. Kuri iyi modoka hakaba hariho riba nk'aho ari impano bagiye guha umuntu.

Inyubako iparitsemo imodoka, hariho ibyapa bya Hyundai, hari n'ipoto y'umuriro, inyuma yiy'inyubako haragaragara indi nzu ifite ibirahuri by'ubururu, hari n'ibyatsi imbere yayo n'akayira k'abanyamaguru.

Umugabo wambaye ipantaro n'ishati y'iroze n'akajiri n'ingofero y'iroze, afashe ku modoka ari kureba hirya sinzi ibintu ari kureba inyuma ye hameze nk'aho ari igipangu cy'ibyuma.

Inote y'ibihumbi bitanu by'amafaranga y'u Rwanda, handitseho bank nkuru y'u Rwanda, hashushanyijeho inzu ya convention centre iriho amabara y'idarapo ry'Igihugu. Hariho n'ingagi iciyemo akarongo k'umuhondo. Hasi handitse amafaranga ibihumbi bitanu. Ateretse ku meza y'urubaho.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki, iruhande rwe hari n'akamashini kasohoyemo agapapuro, hari n'ikarita za ATM ziri aho ku mpande, izi note zikaba ari inote y'igihumbi yo muri Kenya, hari n'undi uri imbere ye, hari n'igitabo kiri ku meza n'andi mafaranga ari ku meza.

Abantu bari kuri gishe zo muri KCB, hejuru hari dekorasiyo y'ibipirizo, mo imbere harimo abantu bari kubakira batagaragara harimo n'icupa ry'amazi riteretse ku idirishya rimwe.

Abantu bahagaze kuri gishe ya KCB, hagiye handitseho nimero icumi, icyenda, umunani, hose hagiye hari abantu bari imbere kuri gishe. Mo imbere muri gishe harimo n'abicayemo bari kubakira.

Inote za magana atanu ziziritse na fimbo hari umugabo uhagaze ufashe ako kamashini kabara amafaranga ari kuyabara, hasi hateretse caliculator ku meza inyuma ye hari n'undi muntu uhahagaze utagaragara neza.

Umugabo wicaye ahantu bacururiza amata n'ibindi bintu byo kunywa na cake ziri mu bokisi, yarangariye umukobwa umuri imbere areba aho ibicuruzwa biri.

Indobo irimo amandaza abiri harimo n'akuma bafatishaga amandazi bayavana mu ndobo, hari n'umufuniko wari uyipfundikiye uri kugaragara, ku ruhande hirya hari intebe za purasitike n'amatafari agaragara gatoya.

Icyuma cy'amata ya Mukamira bashyiramo amata y'inshyushyu, hirya muri etajeri hamanitsemo amacupa y'amazi ya nili na bere, muri firigo harimo ibyo kunywa bitandukanye, fanta z'ubwoko butandukanye.

Ameza, ateretseho igikombe cy'amata, umuntu aragifashe n'ukuboko, isahani iriho keke, ikanya ijombye kuri keke bariyeho, akayiko, hirya haragaragara amaguru y'umuntu wambaye umwenda w'umuhondo.

Keke ziteretse zigeretse, ku ruhande rwazo hari utuntu tubiri duhari tumeze nk'utwo bashiramo keke bagiye kuzikora, hari n'indi keke iteretse ku meza yatakaye hasi.

Ahantu bacururiza amata, hari ameza ya pulasitike, imwe iteretseho ijage n'umufuniko, indi iriho isiniya, hirya hari akamashini k'amata, munsi hari indobo, ku ruhande hari umuntu uhahagaze, hari etajeri y'ibirahure, hariho isiniya iriho amagi, munsi harimo amvelope, inyuma muri etajeri harimo fanta, amata y'inyange na ji, hari n'amakarito yanditseho inyange.

Amacupa y'amazi ya nili, har'amverope nini har'indi amverope ntoya irah'ahantu muri etajeri ifunganye hariho n'ikindi kintu cyometseho cyanditseho miriki.

Inzu z'ubucuruzi, hamwe ni busheli, ahandi ni farumasi, ahandi bahacururiza amata ya Mukamira, imbere y'inyubako haparitse amamodoka, mu mapave yaho, hari n'umuntu uri kugenda, n'umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umweru, n'igare rihaparitse.

Amacupa y'amazi iruhande rw'amacupa y'amazi hari anverope nini, n'indi ntoya, hirya muri etajeri harimo anverope z'umweru hejuru hashushanyije inka, munsi y'inka handitse nyanza ,hari n'ibyatsi bibiri biri hejuru ya etajeri, hari kugaragara na purafo.

Ibicuba biteretse hasi hari n'igare riparitse mu muryango. Hasi hari amazi asa nabi na lakerete yaguye hasi. Hari moto iriho igicuba n'akabido. Hirya hari umuntu ufite igare. Ruguru hari moto iri ku muhanda hicayeho n'umuntu. Hari n'indi moto itariho umuntu hariho casque. Hirya hari amapoto y'umuriro, hakaba n'imikindo ikikije umuhanda, hakaba hari n'ibyatsi.

Umumotari uhetse umugenzi, hepfo hari ibiti haranakorotiriye, imodoka ya fuso irimo umuntu inyuma aho bapakira imizigo, n'ikiraro gipfundikiye borudire.

Umugore wambaye umupira wa MTN, ufite n'icupa rya fanta mu ntoki, hari n'undi uhagaze imbere ye, uwo ufite icupa rya fanta mu ntoki azamuye ukuboko, inyuma ye hari abandi bagabo babiri, hirya hari n'abandi bantu batagaragara neza, n'igikuta cy'inzu, n'idirishya.

Amafaranga ibihumbi bitatu yoherejwe kuri pate message numero magana mirongo itanu karindwi numuro n'icyenda gatatu'mwegari kane gatanu kabiri feguded ntabwo yagiye hamagara mobile money bagufashe ku murongo murakoze mombaye lomanne.

Ukuboko k'umuntu, ikiganza cye gifashe inote z'amayero mu ntoki, hari ubwoko butandukanye bw'amayero, hari sengani, ijana na makumyabiri, n'izindi zo hasi zigiye zihuye n'izo mvuze hejuru.

Banki nkuru y'igihugu cy'u Rwanda kuwa mbere tariki cumi na zirindwi z'ukwa mbere makumyabiri makumyabiri na kabiri Amadolari y'igihugu cy' Amerika Amapawundi yo mu Bwongereza amayero Amashilingi yo muri Kenya n'Amashilingi yo mu Bugande.

Inote zo mu gihugu cy'u Buhinde hariho ifoto ya Mahatmagandi zifite amabara atandukanye ariko umubare wayo mafaranga ntabwo ugaragara neza.

Ikiganza gifashe amafaranga mu ntoki akaba ari inote ya magana atanu y'amarupe, hasi hakaba hari n'ibiceri biri kugaragara n'izindi note zirambitse hasi zitagaragara neza. Zifite amabara atandukanye.

Inote zigerekeranye z'amayero, cumi makumyabiri mirongo itanu, zikaba zifite amabara atandukanye hari iy'ubururu, hari isa nk'umutuku, hari ijya gusa beje duko twose hari utudarapo tugiye dusa.

Ibiganza bifashe amafaranga. Bibiri byo hepfo bifashe amafaranga y'amadolari y'Amerika inote y'ijana, munsi harimo n'andi. Ibya ruguru bifashe inote zo mu Gihugu cya Nigeria, igaragara hejuru akaba ari inote y' igihumbi.

Inote yo mu gihugu cya Congo, ishushanyijeho inzovu, iteretse hejuru y'izindi note, iy'icyatsi ni iy'igihumbi ariko ntago igaragara neza bitewe n'ukuntu ifoto imeze.

Inote ya magana abiri yo muri Kongo yanditseho banki santarari di Kongo, hariho abantu babiri, umwe ari guhinga, undi arahagaze afashe isuka mu ntoki, yifashe no mu mugongo, uwuri guhinga ni umugabo uyu uhagaze ni umugore.

Icyapa cya biro de shanje kiriho ukuntu bavunja amafaranga yo mu bihugu bitandukanye, ariko ikigaragara ni uko iki cyapa ari icya kera, imbere y'iyo nyubako hari umuntu uri kugenda mu nzi y'abanyamaguru, no hirya hari undi haparitse n'imodoka y'umutuku n'igiti n'igorofa bari kubaka rituzuye.

Inyubako iriho ibyapa bitandukanye kimwe cyanditseho Sapimu foregisi biro ko bavunje amafaranga, hari n'icya Banki of Kigali (bk). Hejuru hari n'icya Western Union kitagaragara neza.

Inyubako iriho icyapa hejuru, icyapa cyanditseho Western union, Bank of Kigali, hasi hakaba handitseho Sapim forex burearu na numero wabahamagaraho, hasi hakaba hariho n'ikindi cyapa kitagaragara neza n'itara rimanitse.

Ameza n'intebe yo muri sale amanje, ameza hejuru akaba ari ikirahure, hirya hakaba hari ahantu wakarabira intoki, ku ruhande hari na esikariye zizamuka, hasi hakaba hari amakaro.

Inyubako yubatse mu mabati, hari akabati gatereretse aha n'amezaza n'intebe, biteretse ku kintu cy'umweru hirya hari ahantu hari igiti kitari kugaragara neza, n'ikirere gikeye cyane.

Igitanda giteretse ahantu bamaze kugikora, hirya hari n'ikindi gitanda kitagaragara neza, hari n'imbaho ziri hirya, hari na mose iteretseho hejuru y'izo mbaho, inyuma hari kugaragara na shitingi y'ubururu.

Intebe enye n'ameza ku ruhande, hari porotaye ihari isa umutuku, hirya hari n'inzu ifunguye umuryango, hano hari n'indi nzu iri kugaragara idirishya, hasi hakaba ari amapave.

Umukara zifite utwuma tw'amaguru ameza y'ikirahure hejuru hateretseho amatasi abiri hirya hari idirishya ry'ikirahure hakurya muri etajeri hamanitsemo ibikapu hasi hakaba hari amakaro ahagaragara n'igitanda.

Ameza akoze mu rubaho hejuru hareba ikirahure, hari n'intebe ziyakikije na zo zikoze mu mbaho, hirya hari n'ahandi hantu hari imbaho hegeranye n'akabati, hari na esikariye zizamuka.

Ameza akoze mu rubaho rutangaje, amaguru y'ameza akaba akoze mu byuma, ku gikuta hakaba hasize irangi rya beje, harimo n'ibintu by'imihiro, hasi ku mapave akaba ari amapave ameze nk'amatafari.

Intebe n'ameza, ku meza hateretseho ubucupa bw'amazi, hirya hamanitse taburo yo kwandikaho, inyuma hari amadirishya n'umuryango ufunze.

Inyubako ya four points by Sheraton. Hasi hariho icyapa cyanditseho four points ni hoteli. Hari ibiti biraho ku mpande no ku rundi ruhande hari ibiti. Hari na kaburimbo imbere y'inyubako.

Intebe n'ameza biteretse muri jaride y'ibyatsi, ku mpande hakikijweho n'indabyo, hepfo hari pisine, korotire ikozwe mu twuma, hariho n'inkingi hagati y'utwuma, umutaka w'umutuku, udutanda two kuryamaho umuntu avuye muri pisine, hepfo nhari ibiti n'inzu.

Pisine, ku mpande hakikijwe n'intebe ziriho n'ameza, hejuru hariho imitaka, hirya hari umutaka w'umutuku, iruhande rwa pisine hakaba hakorutirijwe n'utwuyuma, hirya hari ibiti byinshi, hari n'inyubako itagaragara neza.

Ubwogero buri imbere y'inzu hatambitse bariko y'utwuyuma, imbere hari intebe umuntu aryamaho avuye muri pisine, hejuru hari bariko wagira ngo ni nk'inzu iri ahantu mu ishyamba iri yonyine ahantu hihariye, hari n'indabyo ku mpande zihakikije.

Ameza ariho kwiziniyeri, mikorowonde, hejuru hariho vandarateri. Ku ruhande hari uburiri busashe, hepfo hari bariko n'akabati.

Ibirahuri bibiri biteretse ku meza, hari n'intebe ebyiri ziri impande, biragaragara ko ayo meza ateretse ahantu kuri bariko, hakurya haragaragara ukwezi, iyi ifoto yafashwe ari nijoro, kubera ko amatara ari kwaka.

Inyubako ya onomo hoteli, iherereye mu Kiyovu, isizeho amabara y'imigongo, hakorotijwe n'utwuma, hepfo hari amadarapo atandukanye.

Inzu ifunguye umuryango, mu nzu mu imbere hari ameza, intebe, ku meza yateretseho mashini n'agacupa k'amazi, hariho n'udutabo ku muryango hariki hariho n' icyapa cya SONARWA cyanditseho meki shuwa yu havu de rayiti kava ini purasi wizi SONARWA General.

Inyubako zikikije umuhanda hari na kaburimbo ruguru hari icyapa kiriho isaha hari n'amagambo ari muri jaride buritamu everi sitepu ofudeli hari n'imodoka iri mu muhanda na moto.

Ahantu handitse werikamu, hirya hari ikintu gikoze nk'umuriro cyanditseho ZIBI, mu bikuta hagiye hariho ibirahure, ikirahure kimwe cyanditseho SONARWA Inshuwarensi, ahandi handitseho wa MUA, ahandi handitseho purayime, hejuru hari n'itara ryigoronzoye, hano ku makaro hari n'hantu hari ameza.

Hahagaze abantu benshi hejuru handitse SONARWA, SONARWA akaba ari ahantu bafatira ubwishingizi butandukanye, hakaba hahagaze abantu bashobora kuba bagiye kubaza ibijyanye n'ibyo bakora.

Abantu bicaye barebana, imbere hari mashine, hari n'utubati tw'ibyuma, inyuma hari n'undi muntu wegereye idirishya, hari n'undi muntu wicaye mu ntebe, hari kugaragara ukuguru gusa, hasi hari na puberi iri kugaragara isi ubururu.

Hejuru handitse MUA, hirya hari ibipirizo by'ubururu n'iroze, hasi hari intebe zicayeho abantu, hari n'abandi bari imbere, umwe arahagaze, hirya hari n'icyapa cyanditseho MUA, hariho n'abantu.

Inzu igeretse kuri corotire. Hakaba ku umuryango uhatwikiriye ikaba ifite amarembo abiri irembo ryo hepfo n'irya ruguru, hamwe n'ibiti birimo imbere n'imikindo n'imbere hakaba hari ikindi giti.

Imyenda ya madini Rwanda, imitako itandukanye yo mu nzu n'utundi dukoresho twa madini Rwanda, hamanitse n'imigongo na taburo zitandukanye n'imyenda ikoze mu budodo.

Isoko ririmo ibicuruzwa by'imboga. Harimo karoti, amashaza, ibitunguru by'umutuku, harimo imboga, harimo n'amashu, n'intoryi. Umumama wicaye impande y'ibyo bicuruzwa rikaba risakarajwe n'amabati n'ibyuma bifashe amabati.

Inyubako igeretse, hari kaburimbo imbere y'inyubako, amapoto y'amatara n'igiti kitagaragara neza, muri kaburimbo nta modoka ziri kugendamo, hari n'akapa kari muri kaburimbo kerekana fureshi yo hepfo ko ariho abantu bagomba kunyura no hepfo hari andi mapoto y'amatara n'igiti kiri kugaragara hepfo.

Mu isoko aho bari gucururiza imbuto zitandukanye harimo inanasi, imineke, amaronji, ibinyomoro, imyembe, igihaza, ipapayi, indimu, hirya hari n'umumama wifashe ku kananwa.

Inyubako ziri ku ku murongo z'ubucuruzi, wambutse umuhanda haparitse imodoka, hari n'abantu babiri bari kuvugana, imbere y'utu twuma dukorutiriye hicaye abamama bari kudoda.

Abantu bari ahantu bacururiza ibintu bikoze mu bitenge bya medi ini Rwanda, hari imashini ihateretse, ku muryango hari abamama bahicaye, hari n'ibitenge bimanitse, hari taburo zimanitse muri etajeri, hari n'abantu bari kureba ibicuruzwa bitandukanye.

Inzu y'inyubako igeretse imbere yaho haparitse amamodoka, wambutse kaburimbo hari n'izindi modoka zihaparitse, hari n'indi modoka ya pick up iri kumanuka, hakaba hari isoko rya Nyarugenge, imbere yaho hakaba hari n'igiti na feruje.

Ahantu bacururiza ibitoki n'ibirayi, hari n'inzu, mu miryango yayo hari ahantu hari ufuka bahahiramo, hari n'abantu baje guhaha, hari n'iminzani yo kubipimiraho.

Ahantu hamanitse ibitenge bigaragara ko babihacururiza kandi hari urubaho ruhari bamanurisha ibitenge, hari umugabo wifashe ku zuru uhagaze imbere y'ibitenge, hari n'undi muntu utari kugaragara hagaragara umutwe gusa.

Mu isoko ahantu bari gucuruza ibintu bitandukanye bya medei ini Rwanda. Hari abagabo batatu bari muri iryo soko, hari n'ibindi bintu bimanitse hejuru, Umwe yambaye ingofero yifashe no ku munwa hari n'undi uri kugenda areba hirya.

Akazu ka MTN karimo abantu babiri mo imbere, ku ruhande rumwe hari umugabo uhahagaze uri kureba ruguru, inyuma yaho hari inyubako n'abandi bantu bari inyuma y'akazu batagaragara neza.

Umu ajenti uri mu kazu ka MTN, imbere ye hari umukiriya ari guhereza amafaranga, uwo mu ajenti ari no kwandika mu gitabo, hirya hari akazu gasakajwe amategura n'indi nzu imwe itagaragara neza.

Stande iriho ibyapa bya MTN, imbere harimo abantu bambaye imipira y'umuhondo ya MTN hari n'abambaye karuvati hari n'umuntu ugiye kuzamuka ajya kuri iyo stande ku byapa handitseho gura felo ra ijana, ku giciro kiri hasi bidasanzwe.

Akazu ka MTN, harimo umuntu uhagazemo mo imbere, iruhande rw'akazu hari abana batatu bahahagaze hari n'undi muntu uri kugenda mu muhanda, hirya hari n'inzu z'inyubako hari n'undi muntu uhagaze iruhande rw'abana, iyi MTN ntabwo ari iyo mu Rwanda.

Icyapa kiriho amatelefone handitseho ubuntu jiga imwe buri kwezi, hasi handitseho wikwisondeka kanda akanyenyeri gatatu kane gatanu akanyanye umunani urwego uryoherwa n'inyongera ya internet. Hasi handitse emutiyene hejuru handitseho jiga.

Akazu ka MTN kaditse mokash MTN mobayilo mane, hirya hari igiti, hari n'amapoto abiri, ipoti imwe iziritseho insinga z'amashanyarazi, ku ruhande hari n'ahantu hateye ibyatsi.

Abakozi ba MTN bahagaze iruhande rw'ameza, kuri ayo meza hariho icyapa cya irizihirwe kiriho n'amafaranga, hari n'undi uhagaze ku mpande, ku meza hateretseho ikarito n'ikindi kintu cy'umuhondo, hari abari imbere y'aho ngaho abo bantu bahagaze, bari kubyina, hari na bafure imanitse, hari n'ikindi cyapa cyanditseho iyaminiye na Yoro.

Ni akazu ka Emutiyeni karimo umuntu mo imbere hari n'undi uri inyuma ari kumwakira, ariko icyo mbona iyi Emutiyeni ntabwo ari iyo mu Rwanda, ndi kubona n'umukindo hejuru y'ako kazu.

Agahema ka MTN, abantu bahagaze imbere y'uri kubakira ariko ubakira ntabwo agaragara, umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu afite icupa rya MTN mu ntoki, aho bahagaze hari ibyatsi n'amabuye.

Abantu wambaye imipira y'umuhondo, n'ingofero y'ubururu ku ruhande yari ufite telefone ari kurebesha imbere afite navelope ya kfc yarari kwerekana ko ushobora guhaha ukishyira ukoresheje momo.

Abakozi ba mtn bamwe baricaye undi nawe kureba muri telecine hari numanitse umupira arimo kureba hari impano iri ku meza ifunze n'ibintu by'umutuku n’imashini iteretse ku meza hari n'uri kuri telefone bakaba bari mw’ihema rya mtn.

Ibogisi ifunze n'ingufuri, iri kuri moto ya kayefuse, kuruhande rwayo hari uyitwara wambaye na kasike, hirya ye hari ivatiri n'indi modoka y'umukara itagaragara neza.

Moto itwaye delivari, hepfo hari inyubako, hari na koritire iriho igipangu cy'ubururu, hari n'amapoto, hari n'ibiti, hakurya hari n'inzu zitagaragara neza, uwo mumotari akaba yarazaniye umuntu ibintu yatumije.

Moto itwara ibintu abantu baba batumye, ahantu ihagaze hari icyapa cyanditseho mantisi kivu marina beyi hoteli, munsi yacyo hari indabyo zihateye, iruhande rw'icyo cyapa hari akandi kantu kariho insinga gashobora kuba gakoze korutire, amapave aho moto ihagaze imbere yaho hari na kaburimbo n'umukindo uri hakurya.

Inzu iherereye i Kigali hakaba hari kugaragara muri salo n'amatara yaho n'idirishya, n'umuryango, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu by'amafaranga y'u Rwanda.

Igikoni cyo mu nzu harimo utubati tutarimo ibintu, hasi hari n'utundi tubati dufunze, hari n'ishyiga rya kwiziniyeri riri mu nguni, hejuru hari n'utundi tubati, haragaragara n'itara ricanye.

Inzu iherereye ku Gisozi Kagugu mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni magana atatu na mirongo itanu z'amafaranga yo mu Rwanda, ikaba igeretse, imbere yayo hari ibyatsi ku ruhande hari n'amapave.

Inzu isakajwe n'amabati y'ubururu, korutire y'amatafari yumye, imbere yayo hari ikibanza giherereye i Kigali Musave, Bumbogo, kikaba kigurishwa miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Icyumba gikodeshwa giherereye Kabeza mu Mujyi wa Kigali, hari amarido ku idirishya afatiye hejuru, iyo nzu ikaba ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu iherereye mu mugi wa Kigali i kanombe, ikaba igurishwa miriyoni ijana na cumi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, hasi hakaba hasashe amapave, parikingi ikaba yakwakira imodoka enye.

Urukarabiro rw'inzu, iyo nzu iherereye i Remera Gishushu mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi, ikaba ifite ibyumba bibiri hatarimo ibintu, akaba ari aparitema.

Inzu igurishwa, iherereye i Kigali, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda, iyo nzu hari jaride iri aho ngaho y'ibyatsi, hirya hari n'itanka y'amazi.

Inzu iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali, hari miruwari n'ameza n'intebe, hirya hari amarido afunguye, hari n'umuryango ufunguye, hakaba hari n'intebe ziri kuri bariko.

Inzu igurishwa iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ikaba ikoze neza irasa neza, ikaba igurishwa miliyoni ijana na cumi n'eshanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Abantu babiri bahagaze muri saro, muri iyo saro harimo intebe n'ameza, hejuru hari itara, ku gikuta hariho taburo n'utundi dutako tutagaragara neza, inyuma yabo hagaragara amatara ari hejuru dutonya, ku rundi ruhande hameze nk'ahari saramanje.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana atatu, ikaba isize irange ry'ubururu n'umweru, hirya hari n'indi isakaje amabati y'umutuku, ibipangu byayo bikaba bisa, imbere hakaba haparitse moto hari n'itaka rirunze imbere y'igipangu.

Inzu ikodeshwa iri i Remera, ikaba ari icyumba kimwe na dushe imwe, n'igikoni cyiza cyo mu nzu, ifoto igice kimwe kikaba ari igikoni, ahandi hakaba ari idirishya ry'iyo nzu.

Inzu iherereye kibagabaga ikodeshwa ariko itarimo ibikoresho, bikaba ari ibyumba bibiri na dushe imwe, hakaba hari kugaragara na porutaye yayo mu muryango.

Inzu iherereye i Kigali Kanombe, irakodeshwa ifite ibyumba bitatu, ubwogero bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu kuyiraramo ijoro rimwe ni amadolari mirongo itatu n'atanu umunsi umwe, ikaba ifite ibaraza ririho imbaho, hakaba hari n'itara ku muryango, umuryango uranafunguye.

Inzu ikodeshwa iherereye mu Rugando, inyuma ya konvesheni senta, irageretse, ikaba ikodeshwa amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi.

Ni inyubako ikodeshwa aherereye Kimironko, ifite ibyumba bibiri, dushe ebyiri, saro imwe, igikoni kimwe, parikingi iri ahantu hayo honyine, ikodeshwa ibihumbi magana atatu, hariho na nimero wababaza uyikeneye, idirishya, hakurya bariko.

Inzu ikodeshwa iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ikaba ari ibyumba bine na dushe eshatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, mu mbuga hari amapave hakaba hari indobo ihateretse, akaba ari inzu ifite na bariko yo hejuru.

Inzu iherereye mu Kagarama ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu, ni ibyuyumba bine na dushe eshatu mu nzu, hanze hari tanka hari na jaride, hari n'amapave imbere y'inyubako.

Inzu ikodeshwa i kanombe muri Kigali, hejuru hariho nimero waterefona uyikeneye, ni ibyumba bine na dushe eshatu mu nzu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi y'amanyarwanda.

Abamama bari mu masoko. Umwe afite amarongi mu ntoki bari kuganira, hirya hari umugabo uhahagaze. Hari imbuto zitandukanye, amarongi, amatunda, pome, mandalina, ibinyomoro n'imineke.

Inzu y'ubucuruzi muri etajeri hamanitsemo ibicuruzwa bitandukanye, hari n'ibindi biteretse ku meza kuri kontwari y'ikirahure harimo ibintu nabyo bigiye bimanitsemo, kumpande hahagaze abantu umwe ari imbere undi ari inyuma, bafite n'igipapuro mu ntoki.

Kaburimbo, iruhande rwa kaburimbo hari akayira k'abanyamaguru harimo n'abantu bari kugenda, ibiti, indabo ziteye hasi, hari icyapa kigaragaza supermarket ya Sawa Citi, i Remera, baha abantu ikaze, hejuru hakaba icya DITEC software solution, hejuru hakaba ikindi cyanditseho T, kane, kane, Z, hair and skin, CHICHI Kigali.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibintu bitandukanye harimo amarineti, parufe inyuma muri etajeri hamanitsemo amasakoshi atandukanye amatoya n’amanini hano munsi hari imikandara yo mu nda n'udusakoshi two mu ntoki mu mpande hamanitsemo imikufi no hirya hari indi mikufi imanitse hejuru hari na kamera.

Tajeri yo muri supamaketi irimo ibicuruzwa bitandukanye, hirya hari umuntu ufite akagare nawe uri guhaha hari n'indi tajeri iri hakurya, iriho ibintu by'umweru, uyu wicaye ari gufata akamverope ka kacyi.

Ahantu bacururiza ibintu bitandukanye, hari amasakoshi amanitse hejuru, hirya na ho hari andi masakoshi amanitse, hari n'ibindi bintu bitagaragara neza biri ku meza bacuruza, hano hino hariho inanasi ku meza, hasi hateretse n'inkweto bacuruza, n'inyuma hariho ahandi hantu hariho inkweto bari gucuruza n'abantu bari aho ngaho imbere ye hamanitse amasakoshi.

Abantu benshi bari ahantu hakorerwa ubucuruzi, hari imyenda imanitse hari n'ikimaneke cyambaye ikanzu kiri ku mpande, hari n'umuntu ufite ishashi mu ntoki n'abandi bari kugenda bajya mu cyerekezo cyo hirya, hejuru hamanitse ahantu hari amakanzu ashushanyije hasi hakaba hari n'ama pave.

Ahantu bacururiza inkweto n'ibindi bintu bitagaragara neza, hejuru hamanitse ibikapu n'amasakoshi hirya hari abandi bantu baje guhaha bafite n'agakapu mu ntoki, hari n'abahagaze imbere y'inkweto.

Etajeri ziri muri supermarket, iruhande rwa etajeri hari akagare karimo ibicuruzwa bahashye, muri etajeri harimo ibyo kunywa bitandukanye, za Bavariya, amaji y'ubwoko butandukanye, hano ku mpande hari indi etajeri, imanitsemo amaji y'ubwoko butandukanye.

Ibicuruzwa biri mu isoko by'imboga bitandukanye: inyanya, tungurusumu, shufurere, sukuma, imiteja, karoti, intoryi, ibitunguru, ibibiringanya, hirya hari n'ibindi bintu bitari kugaragara neza.

Abantu bicaye ku ntebe bagiye bateruye abana kandi bafite amafishi mu ntoki n'dukarine, bakaba bameze nk'abari kwa muganga, nyuma n'umugabo n'umugore bahagaze umugore ateruye uyu mwana mu ntoki.

Abantu bari ahantu bahagaze. Abandi baricaye bitwikiriye n'imitaka. Ruguru hari inyubako n'ibiti. Hepfo hari icyapa cyanditseho RSSB, Awa Hati, Awa Fiyuca Ejo Heza. Hari n'indi magaride ihagaze yanditseho Ejo Heza.

Abantu batanu bari ahantu hamwe, inyuma yabo hari etajeri ipanzemo nk'amadosiye, umwe afite agakarita mu ntoki arimo ararebaho, umuhagaze imbere ashobora kuba ari we wari ukamuhaye ari gusoma ibyanditse kuri ako gakarita.

Umugore n'umugabo bambaye udupfukamunwa, bafite sheke yanditseho RSSB, Ejo Heza, SONARWA, yishyurwa Mukanziga Paskazi, umubare: miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda, impamvu: ubwishingizi bw'ubuzima, hasi handitseho RSSB, hariho na sinya iri munsi y'amafaramga.

Inyubako zo kwa muganga, handitseho Nyamiyaga helisi senta, akaba ari santire de sante ya Nyamiyaga, hari umubyeyi uhagaze mu muryango ahetse umwana, imbere y'umuryango hari puberi y'ubururu n'akaborudire kamanura amazi, hari n'uduti tw'umuhondo.

Umugabo n'umugore bafite agakapu k'impano mu ntoki, bose bagafatishijeho amaboko, inyuma hamanitse ikintu cyanditseho RSSB RSSB, byanditseho inshuro nyinshi.

Abantu bicaye ku ntebe bakurikiranye bafite amafishi mu ntoki, harimo n'udukarine, umwe afite isakoshi ku bibero, hari n'ikindi gipapuro kiri ku ntebe, inyuma hari uhagurutse, hari n'ufite inkoni mu ntoki, bameze nk'abari kwa muganga bategereje ko babakira.

Abantu babiri, umwe afite ikarita mu ntoki, undi ari kwandika muri rojisitire, afite n'urupapuro ari kurebaho ibyo ari kwandika muri rojisitire, impande ye hari akantu k'ubururu bashyiramo nk'amadosiye.

RSSB bwisungane bw'abanyarwanda Rwanda Social Security Board, akaba aricyo gisobanuro cyabyo. Ikaba igizwe n'inyugute enye mbere ikaba yarahoze yitwara rama.

Ejo Heza n'ubwisungane bw'igihe kirekire igihe ugifite imbaraga zo gukora zigamira izabukuru muri Ejo Heza. Bifasha buri muntu uwo ari we wese waba uri muri Ejo Heza kuba yakizigamira. Mu gihe yaba ashaje atagishoboye gukora, ya mafaranga yizigamiye akaba yagira icyo amumarira.

RSSB ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, RSSB ikarita y' umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, ufite iyi karita ntarembera mu rugo, ikarita akaba ari ikarita ya mitiweli.

Abantu bicaye harimo abafite amakarita mu ntoki ya mituweli umwe afite na karikiratirise, hirya hari uri kwandika mu gitabo, hari n'abandi bicaye hirya, hari n'abandi bahagaze inyuma y'aha bicaye, hirya hari n'ibiti.

Muri supermarket hamanitsemo ibicuruzwa bitandukanye muri etajeri, harimo nido y'amata hepfo harimo amabiswi, amagingozi n'ibindi bintu bitandukanye. Hirya hari puberi hasi y'umutuku hirya harimo umuntu uri kugenda.

Etajeri ziri muri supermarket, hamwe harimo ibicuruzwa bitandukanye, hamwe harimo umuti uhanagura ibirahure, ahandi harimo amoko y'amaji atandukanye ari mu makarito, hirya mu birarahure hagaragara umumotari uparitse kuri sitasiyo uhetse n'umugenzi, hari n'ahandi hepfo hari kugaragara ahantu banywera esanse.

Etajeri ziri muri supamaketi zirimo ibicuruzwa bitandukanye, mayoneze, amavuta, ku rundi ruhande hamanitsemo za supageti n'izindi makaroni zitandukanye, hirya harimo za pingozi, hirya muri etajeri y'ikirahure harimo imigati, muri supamakiti nta muntu n'umuwe urimo.

Supamaketi ya Sawa city, mu ma etajeri harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ahamanitse imiti yo muri tuwalete iri mu macupa, hari n'ahori papiye jenike, hari n'ahandi hamanitse ibintu bitagaragara neza bigiye biri mu mashashi, hirya hari puberi, hari n'umuryango ahahera ufunguye.

Supermarket irimo ibyo kunywa bitandukanye, bigiye bitondetse bigerekeranyije, harimo koka, harimo oranje, ni fanta z'ubwoko butandukanye, siparayiti, sitoro, hari n'ibyapa bigiye bimanitse bifashe ku byuma hejuru.

Mega supermarket bari kutwereka etajeri zayo zirimo ibicuruzwa bitandukanye, hari n'akagare kari aho ngaho hagati ya za etajeri umuntu ashyiramo ibyo amaze guhaha, hirya hari na firigo irimo ibyo kunywa bitandukanye yawurute, ji na za fanta.

Etajeri yo muri supermarket, irimo amakaneti ya Koka, n'aya oranje, na fanta ziri mu ma purasitike, koka, oranje, supurayiti, hejuru hakaba harimo izindi fanta ntoya, hirya hakaba hari n'ibindi byo kunywa, bihari bitandukanye.

Simba iherereye Gishushu, imbere y'inyubako igeretse, hari intebe za pulasitike n'ameza, hirya ho kwinjirira hari n'abantu bahari, hari n'ibiti biri mu muryango, hino hari icyapa cyanditseho ko nta parikingi ihari.

Umuntu uri kubika ibintu yari amaze guhaha, aho batereka ibintu hateretse utuntu tugiye turi mu gakarito dutandukanye, amashokora, amabiswi, hirya muri etajeri naho harimo ibicuruzwa bitandukanye, umuntu yari ari kubishyira mu ishashi.

Umuntu uri muri supamaketi ahagaze imbere ya etajeri, etajeri harimo utuntu tw'udupaniye, utwo dupaniye tugiye turimo imboga zitandukanye, tangawizi, puwavuro, kokombure, uduhaza, inyanya, ibibiriganya n'ibindi bintu bitandukanye.